Icyumba gisashe neza kirimo ibikoresho byiza igitanda, gitangirwamo serivisi z'amahoteli. Icyumba kirarwamo n'umuntu uba wagikodesheje, agatanga amafaranga kugirango abashe kwemererwa kuba yakiraramo.

Igare riri muri kaburimbo rikaba riri kunyongwa n'umusore ndetse inyuma ye hari abamotari bari kugenda muri kaburimbo kandi ni umuhanda munini urimo amatara ndetse n'ubusitani bwiza.